Kwamamaza ibijyanye n'ubwishingizi. Hakaba hari icyapa cyanditseho Alliance. Kuri icyo cyapa kandi hakaba hariho amagambo agira ati: "Turagutwikiriye uko byagenda kose." Hakaba hariyo kandi umutaka usa umutuku urimo utudomo tw'umweru ufashwe n'umukobwa usize inzara ze ibara risa umutuku.

Kwamamaza ibikorwa bijyanye n'ubwishingizi. Hari icyapa gifashwe n'abagabo babiri n'umugore umwe. Hariho amazina atandukanye y'ibigo bikora ibijyanye n'ubwishingizi ari byo Sorasi, Saniramu ndetse n'ibindi. Umugabo umwe yambaye amarinete naho umugore afite imisatsi igera kubitugu bye.

Urupapuro rwamamaza ikigo cy'ubwisungane mukwivuza, aricyo radiyanti. Hakaba hariho umuganga ndetse n'umurwayi uri ku gitanda cyo kwa muganga. kuri urwo rupapuro handitseho avuga ko ataringombwa gutegereza ko urwara, ukagera ukagera mubitaro kugirango ugure ubwishingizi mu kwivuza. Kuri iki gipapuro kandi, hariho nimero wabasangaho ndetse n'imbuga nkoranyambaga wabandikiraho.

Icyapa cyamamaza ubwishingizi bwa Britam, amwe mu magambo yanditse kuri iki cyapa aragira ati:"Ramba na Britam." Ese waruzi ko hari ubwishingizi butandukanye bwo kwivuza buhendutse bwagenewe ibigo bitandukanye, harimo ibigo bito, ibigo bito by'imari, Sacco n'amakoperative ,ibigo bya leta, ibigo by'amashuri, ibigo by'abihayimana, hakaba hariho kandi nimero za telefone wabasangaho, ndetse n'urubuga wabandikiraho.

Icyapa gisa ubururu kikaba cyamamaza ibijyanye n'ubwishingizi mituweli ubwisungane mu kwivuza, hakaba hashushanyijeho abantu batatu ndetse n'umutaka mu ibara risa icyatsi kerurutse, ahagana hejuru mu gihande k'iburyo hakaba hari ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe gutanga serivise zubwishingizi, zirimo ubuzima imyanya y'akazi ndetse nibindi.

Iyamamaza ry'ubishingizi bwa buritam. Hakaba hari abantu babiri, bari mu modoka. Abo bantu ni umusore ndetse n'umukobwa, bose barimo baraseka. Amwe mu magambo ari ku cyapa cyamamaza ubu bwishingizi, handitse hati : Ntuhagarike gahunda, inshuti yizewe iri hafi yawe, n'igihe ukeneye ubwishingizi bw'imodoka yawe. Hasi hakaba hariho nimero za telefoni wabasangaho, ndetse n'urubuga wabandikiraho.

Iyamamaza ryerekana uburyo washinganisha ibihingwa byawe. Hakaba hariho nimero ya terefone wabasangaho ndetse n'urubuga wabandikiraho. Kuri iki gipapuro cyamamaza hariho umugabo uri mu mumurima w'ibigori, yambaye ingofero ndetse n' ikositimi y'umukara.

Icyapa cyamamaza ibicuruzwa bijyanye n'ubwishingizi. Hakaba hariho umukobwa wambaye ingofero y'abubatsi yabugenewe ifite ibara ry'iviringa, yambaye amadarubindi kandi arimo araseka. Rimwe mu magambo yanditse kuri iki cyapa handitseho hati: <<Gira abakozi b'indahemuka kandi bakunda umurimo.>> Hakaba hariho nimero za telefoni wabasangaho ndetse n'urubuga wabandikiraho.

Igaragaza rya porogaramu za Banki. Hakaba hariyo amakuru y'umutungo usigaye. Umubare w'ibifite gukenerwa ukaba ungana n'ibihumbi mirongo irindwi na bitandatu magana atanu mirongo irindwi n'ibice cumi n'umunani by'amafaranga y'u Rwanda. Imbere y'uwo mubare hakaba hariyo akarongo gatambitse. Hakaba hariho kandi uburemere bw'umwenda, bungana n'ibihumbi mirongo irindwi na bitandatu, magana atanu mirongo irindwi n'ibice cumi n'umunani by'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga asigaye kuri konti akaba ari zeru.

Urubuga rwa banki, uru rubuga akaba ari urwa banki y'ubucuruzi y'afurika. Hakaba hariho uburyo butandukanye ushobora kwishyura kugura inguzanyo ihererekanya amakarita gusaba amashami ndetse n'uburyo ushobora kubandikira.

Iduka ricuriza ibintu bigiye bitandukanye harimo udukapu dutwandwa mu ntoki twa abagore ndetse n'imyenda. Umugore uri muri iryo duka afite imisatsi miremire arimo araseka kandi yambaye ishati y'ubururu.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda y'abagabo, hakaba harimo abantu bagiye batandukanye harimo abafite uruhu rwera ndetse n'urwirabura, muri abo bantu hakaba harimo abagore babiri ndetse n'imugabo umwe wambaye amadarubindi, ikositimu y'umukara ndetse n'ishati y'umweru.

Aho bacururiza ibinyabiziga by'umuntu ku giti cye, ibyo binyabiziga bikaba biteye irangi ryiganjemo umweru. Hafi y'ibyo binyabiziga hahagaze abagabo babiri, muri abo bagabo hakaba harimo umwe wambaye ipantaro yumukara, inkweto z'umukara n'ikoti ry'umukara akaba afite n'umusatsi mukeya ku mutwe we w'umukara. Hirya y'ibyo binyabiziga hakaba hari inzu zigeretse ndetse n'ibiti bihateye.

Ikimenyesto cy'ihema. Imodoka yo mu bwoko bwa Toyota y'umweru ifunguye imiryango. Abagabo bane bafite icyapa cyo kwamamaza, bombi bafite imisatsi y'umwimerere, uwa gatatu yambaye ingofero y'umweru, impuzankano yuko ari umwubatsi. Igikuta cy'inzu y'umuturirwa cy'ibirahuri. Imodoka y'umutuku irimo imbere n'indi isa ibara ry'icyatisi, bambaye inkweto z'umukara, bose ni imibiri yombi, babiri ni inzobe ziganje.

Ahantu bacururiza imodoka zo mu bwoko bwa yundayi, hakaba harimo izisa umutuku ndetse n'izisa umweru kandi muri uwo mutuku hakaba harimo n'umukara mukeya. Aho izo modoka ziparitse hari amakaro asa umweru ndetse n'inkingi zigiye ziri hagati na zo zisa umweru.

Ndabona imodoka nyinshi zubwoko butandukanye zihagaze ahantu hamwe z'ibara ry'umweru, ndabona ibirango byimodoka by'isoko ry'imodoka rya kigali, ndabona umuturirwa imiturirwa ibiri iteganye ndabona ibirango bya banki ya kigali, ndabona umusozi uriho ishyamba ndabona ibiti byibara ry'icyatsi ndabona kandi ibirango byaho imodoka zihagarara mu ibara ry'umuhondo.

Ikinyabiziga cy'umuntu wigenga, hakaba mo imbere hagaragaramo intebe bicaraho iyo bari kugenda, inyuma y'icyo kinyabiziga hateye ubusitani burimo indabo ndetse n'ibiti, hirya y'ubusitani hakaba hari inzu ifite amategura asa ibara ry'ibiringa, kandi hirya nanone hakaba hari amatara asa umweru ashinzwe kumurika nijoro.

Imodoka zitwara abantu ku buryo bwa rusange enye mu ibara ry'umweru, zihagaze neza aho zihagarara ziteganye. Insina z'ibitoki, ishyamba, inzu zituwemo n'abantu, urukuta rw'amabati, inkingi, inzu ifite urukuta rw'ubururu.

Aho bacururiza imodoka, hakaba hari icyumba kirimo imodoka ishizwe kwikorera imizigo ya sosiyete ya Hyundai ikaba isize irangi ry'umweru muri ikicyumba hakaba hari amaze ateretseho ibipapuro bigiye bitandukanye ndetse n'agacupa karimo amazi yo kunywa y'inyange.

Ikinyabiziga cy'umuntu ku giti cye kirimo kiragurishwa kikaba gifite imyironoro ariyo; bibiri na cumi nakabiri mesidensi benzi e maganatatu. Iki kinyabiziga giparitse mu mbuga kandi kikaba kigurishwa amafaranga miliyoni makumyabiri neshatu z'u Rwanda.

Iyamamaza ry'ikinyabiziga mu bwoko bw'imodoka ya yundayi yakozwe muri bibiri na cumi na gatatu ya otomatiki. Iri kugurishwa miliyoni icyenda yo mu ibara ry'umuringa.

Igurishwa ry'imodoka iri mu bwoko bw'ikamyo ikoreshwa mu bwikorezi bw'ibintu runaka, imbere yaho hahagaze umugabo ufashe urufunguzo rw'imodoka iri kugurishwa.

Amafaranga agaragaza inoti y'igihumbi, amwe mu magambo yanditse kuri iyo noti ni banki nkuru y'u Rwanda. Kuri iyo noti kandi hashushanyijeho ibiti, imisozi ndetse n'ibindi. Nimero y'iyo noti ni a, wa, zeru, kane, icyenda, kane, gatandatu, kabiri, kabiri. Hakaba hariho kandi imikono ibiri itandukanye kuri iyo noti.

Amafaranga ibihumbi bibiri by,u Rwanda amwe mumagambo yanditse kuriyi note kandi hakaba handitseho banki kuru yu Rwanda hakaba kandi hashushanyijeho umunara witumanaho munini kuriyi note y,ibihumbi bibiri hakaba hashushanyijeho agaseke nimero yiyi note ikaba ari D,U ,zero, rimwe, gatatu, kane, gatanu, rimwe, rimwe, kuriyi note hakaba hariho umukono w,umuyobozi wa banki ndetse numuyobozi wa banki.

Inoti ibihumbi bitanu by'amafaranga y'U Rwanda, hakaba hashushanyikeho ingagi ndetse ni nzu izwi nka Kigali konveshoni senta. Kuri iyi noti hariho imibare iyiranga ariyo ma ca zeru zeru kane ikenda gatandatu Kane kane, kuri iyi noti kandi hakaba hariho imikono ibiri: umwe akaba ari iy'umukuru wa banki indi ari iy'umukuru wa banki wungirije, kuri iyi noti Kandi hejuru hakaba handitseho ijambo banki nkuri y'U Rwanda.

Abagabo babiri bombi barebana, bombi ni imibiri yombi inzobe ziganje umwe ari mu biro by'itumanaho rya MTN yambaye umupira w'umweru uri imbere ye yambaye agapfukamunwa k'umukara, ingofero y'umukara, afite ikaramu y'ubururu mu ntoki batandukanijwe n'kirahure kiriho ibirango by'itumanaho bya MTN n'ibiriho uburyo bwo kwishyura uri gutanga serivisi hari mudasobwa imbere ye.

Amafaranga menshi y'amadorari y'Abanyamerika apanzwe ku meza. Hari imashini ikora amafaranga, ikoreshwa n'umuntu uyashira imbere yayo. Abantu babiri bari muri icyo cyumba bari gukorana umwe yambaye agatambaro kiroza ku kuboko kandi bose bakaba bambaye imyenda yijimye; hari impapuro ziteretse ku meza zisa nkaho zanditseho ibijyanye n'ayo mafaranga.

Ahaboneka ibicuruzwa bikomoka ku mata. Hakaba hari akabati karimo amajerekani abiri asa umweru. Muri ako kabati, hariho igitambaro gisa ubururu bwerurutse, hakaba handikishijweho amagambo asa umweru. Muri iyi nzu ifite ibikuta bisa ubururu bwijimye ndetse n'amatafari ahiye.

Iduka ricuruza ibikomoka ku nka, hakaba hari icyabugenewe gikozwe mu cyuma kikaba kirimo amata, bamwe mu bantu bari muri iri duka harimo umukobwa wambaye inkweto zifunze ndetse n'ikabutura isa iroza n'umupira w'amaboko maremare kandi akaba afite umusatsi muke ku mutwe we.

Iduka ricuruza ibikomoka ku nka, imbere yaryo hakaba hari kandagira ukarabe ndetse hakaba ari n'ameza asa umweru akikijwe n'intebe zisa ubururu, hirya yabyo hakaba hari izindi ntebe zisa ubururu ziri munsi y'umutaka usa umutuku wamamaza inzoga ya mitsingi. Ahagana ku gisenge cy'iyi nzu hakaba hariyo icyapa cyamamaza ibihakorerwa, kikaba cyanditseho Inyange miliki zone.

Iduka ricuruza ibikomoka ku nka. Hakaba harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe. Umwe muri abo bagabo arimo arahereza umugore igikombe kirimo amata. Inyuma yabo hakaba hari urukuta rufite ibara ry'umweru kandi hari icyapa kiriho amagambo atandukanye agira ati: <<Hano hari amata meza y'inka.>> Iri duka rikaba ryitwa Zirakamwa dayali.

Iduka ricuruza ibinyobwa bitandukanye bituruka ku nganda. Hakaba harimo abadamu babiri umwe asa n'uwicaye ari gucuruza undi aricaye ateruye agatebo. Hakaba harimo intebe z'amabara abiri ubururu ndetse n'umweru.

Umugabo uri mu nzu icururizwamo ibyo kunywa biturukaruka ku musaruro w'inka ahagurutse ku ntebe y'ibara ry'umweru ndetse hari n'intebe z'ibara ry'ubururu hashakakajwe imbaho.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'ibijyanye n'ibikomoka ku nka. Muri iyo nzu bakaba barimo barayikoreramo amasuku ndetse hanze yayo hakaba hahagaze ipikipiki iriho igicuba ndetse n'akabuni gasa umweru kaziritse kuri icyo gicuba. Hirya kandi cyane hakaba hateye ubusitani burimo indabo ndetse n'ibiti. Mu mbuga iri imbere y'iyo nzu hakaba hari abanyamaguru.

Iduka ricuruza ibikomoka ku nka. Hakaba harimo ameza asa umweru afite amaguru y'umukara. Kuri ayo meza hakaba hateretseho agakombe kariho uduti twagenewe kuvanamo imyanda yafashe mu menyo. Iryo duka kandi rikaba ryubakishije amatafari ahiye.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye. Rikaba rifite intebe zisa umweru ndetse n'ameza asa umweru. Ku muryango w'iri duka hariyo ameza ateretseho indobo irimo amandazi, agasahane karimo amagi ndetse n'imineke iteretse ku meza n'ibindi bitandukanye. Munsi y'ayo meza kandi, hakaba hariyo agatebo kabugenewe gashyirwamo imyanda itandukanye. Inkuta z'iri duka zisize irangi risa ubururu.

Iduka ricuruza ibikomoka kunka hakaba harimo umugore ufite telefone ye ngendanwa ndetse inzaraze zikaba zisize ibara ryumutuku hafiye hakaba hateretse igikombe kirimo amata ndetse nakayiko muriryo duka kandi hakaba harimo firigo ishushanyijeho icyokunkwa cya cocacola muriryo duka kandi hakaba harinte isubururu ndetse nicyo kunkwa kiri mumazi ya nili.

Iduka ricuruza ibijyanye n'ibikomoka ku nka. Hakaba harimo abantu bagiye batandukanye barimo baranywa amata ari mu kirahuri. Umwe muri abo bantu yateretse ikirahuri ku meza asa umweru, abo bantu kandi bakaba bicaye ku ntebe zisa umweru. Inkuta zigize iri duka na zo zikaba zisa umweru.

Urubuga rwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, kuri uru rubuga hakaba hariho amagambo atandukanye amwe mu magambo yandikishije inyuguti z'umweru ahagana hejuru agira ati ntushobora gukoresha PayPal kuko twahisemo kugabanya burundu konte yawe nyuma yo gusuzumwa, kuri uru rubuga kandi hakaba hariho ko hariho amafaranga amadolari igihumbi na magana cyenda, hakaba ahubwo kandi ko ushobora kwishyura ukoresheje terefone yawe ngendanwa.

Urubuga ruriho ibijyanye no kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga. Hakaba hariho terefone ndendanwa yanditswemo imibare ariyo akanyenyeri, urwego, rimwe, gatatu, gatatu, karindwi, urwego. Iyi terephone ndendanwa akaba ari iya sosiyete ya Samusangi.

Urubuga rwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga akaba ari urw'umuntu witwa Desiri Ineza. Kuri uru rubuga hagaragaraho ibintu bigiye bitandukanye nko kureba amafaranga usigaranye, amafaranga yinjiye ndetse n'asohotse. Hakaba kandi hariho n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byanditseho nko kwinjira muri konti yawe bakwereka ibyo ugomba gukanda.

Urubuga rwo kwishyuriraho ukoresheje ikoranabuhanga. Bimwe mubigaragara kuri ururubuga ni nyirarwo christian rebero, hakaba hariho ahantu hatandukanye ushobora gupyonda ukabona amafaranga yinjiye, amafaranga yasohotse ndetse nayasigaranye kuri konti ye. Amwe mumagambo kandi yanditse kuri urubuga ni injira muri konti yawe kanda kuri more.

Muri telefoni ngendanwa hafunguwemo urubuga rugaragaza uburyo ki ushobora kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga. Hakaba hagaragaramo ibyo ugomba kuzuza kugira ngo ibyo ngibyo bikorwe. Aribyo nimero za telefoni, nimero ya banki ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Urubuga rwo kwishyuriraho ukoresheje ikoranabuhanga nyirarwo akaba yitwa Ganza Sharitin akaba afite terefone ye ndendanwa yinjiye muri rwa rubuga, hakaba hari ahantu hatandukanye ashobora gupyonda akabona amafaranga yinjiye, amafaranga yasohotse ndetse n'amafaranga asigaranye kuri konti ye.

Urupapuro rw'ishoramari ry'ikigo cy'imisoro n'amahoro mu rwanda rukaba rwererana hakaba handitseho inyuguti zikoresheje ibara ry'umukara hakaba ariho kandi n'imbonerahamwe zitandukanye ahagana hejuru mu kuboko kw'ibumoso kuri uru rupapuro hakaba hariyo ikiranganteko cya repubulika y'u rwanda.

Igipapuro kimari akaba ari igipapuro cy'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cyu Rwanda ahagana ibumoso hejuru hakaba hariyo ikirangantego cya repuburika zu Rwanda bimwe mu byanditse kuri uru rupapuro hariyo imbonerahamwe ebyiri z'ubwoko butandukanye izina rya nyiri iki gipapuro akaba ari Sanet bakery kikaba kandi cyaratangiwe mu karere ka kicukiro.

Umukobwa wirabura wambaye ishati y'umweru, uteruye ijage nk'igikoresho bifashisha babuganiza amata cyangwa se basuka amata ndetse akaba afite igikoresho mu kuboko ku iburyo, imbere ye hakaba hari indobo bashyiramo amata ndetse n'indi jage iteretse ku meza n'ikayi ndetse nyuma ye hakaba hari igikoresho bifashisha babika amata nka firigo.

Ibaruwa y'ibyemezo byakiriwe itangwa n'ikigo cyo mu Rwanda cy'imisoro n'amahoro. Hirya gato kuri iyo baruwa hejuru hakaba hariho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Hasi hariho izina ry'umu ofisiye w'ikigo cy'imisoro n'amahoro cyo mu Rwanda witwa Piyeri seresite yizewe. Akagari byakorewemo ni Gasabo.

Ibaruwa yanditse ku rupapuro rw'umweru, ikaba itangwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro cyo mu Rwanda. Ikaba yerekana icyemezo cy'iyakira ry'ibintu. Nyiri iyi baruwa yitwa Mushyirahamwe Geregwari ikaba yaratangiwe Kicukiro. Yerekana umusoro ku mutungo utimukanwa. Hejuru mu gice cy'ibumoso kuri iyi baruwa hakaba hariyo ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Urupapuro rwerekana unyandiko y'imari y'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda. Hirya kururwo rupapura mugice cyo hejuru ibumoso hakaba hariho ikirangantego cya repubilika y'u Rwanda, Uru rupapuro rukaba rwerekana icyemezo cy'ubucuruzi kikaba cyaratangiwe i Gasabo kw'itariki cumi n'eshanu zukwa gatanu uwa imbere.

Igipapuro cy'imari cy'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cyo mu Rwanda. Hejuru mu kuboko kw'ibumoso hakaba hari ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Nyiri iki gipapuro akaba yitwa Mushyirahamwe Geregwari. Ubwoko bw'umusoro urimo urishyurwa ni umusoro ku mutungo. Kikaba cyaratangiwe mu karere ka Kicukiro.

Inyandiko ya banyi ya kigali ikaba yerekana igihe yasohorewe arizo tariki icumi z'ukwamunani ibihumbi bibiri namakumyabiri nagatatu isamunani z'amanywa n'iminota makumyabiri n'umunani n'amasogonda cumi narindwi. Kuriyi nyandiko hakaba hariho amatariki agiye atandukanye ibikorwa byagiye bikorerwaho nko kuri cumi n'enye z'ukwakane bibiri na makumyabiri na gatatu hari igikorwa cyabereyeho gitandukanye no kuri cumi nazirindwi.

Urupapuro rw'imari, akaba ari urw'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cyo mu Rwanda. Ku ruhande rw'ibumoso hejuru hakaba hariyo ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Nyiri uru rupapuro ugiye gusora akaba yitwa Rutaganzwa Henuri. Komiseri w'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro akaba ari we utanga uru rupapuro yitwa Ruziga jagisoni.

Inoti z'amafaranga zigiye zitandukanye. Zimwe muri izo noti ziriho imibare makumyabiri, mirongo itanu, ndetse n'ijana. Imwe muri izo noti igaragara neza ni iyanditseho umubare ijana. Imibare iranga iyo noti ikaba ari sa, ka, icyenda, kabiri, gatanu gatanu, karindwi, gatatu, gatanu, umunani. Izo noti zose zikaba zishushanyijeho umugabo.

Ndabona umuntu ufite amafaranga menshi cyane mubiganza bye byombi; ikiganza kimwe gifite amafaranga yambayeho impeta y'umuringa, ikindi kiganza yambayeho impeta y'izahabu.

Amafaranga y'ubwoko butandukanye harimo inoti y'idorari y'ijana ndetse n'ibiceri. Imibare igaragara kuri ibyo biceri bimwe na bimwe ni icumi. Iyo noti y'idorari hashushanyijeho umugabo. Kuri iyo noti hakaba hariho imibare mikeya igaragara iranga inoti ariyo, zeru, kane, icumi, makumyabiri n'icyenda, mirongo itatu.

Ibiro bikorerwamo serivisi y'iguranishwa ry'amafaranga. Hakaba hariho ibyapa byamamaza. Hari umugabo ufite amafaranga menshi cyane akaba ari amadorali y'amanyamerika. Uyu mugabo yambaye ikositimu isa umukara ndetse na karovati y'umukara irimo uturongo tw'umweru.

Amafaranga ya banki ya Tanzaniya. Akaba ari inoti y'amashiringi magana atanu. Kuri iyi noti hakaba hashushanyijeho inzoka yizingiye ku giti yasohoye ururimi rwayo. Kuri iyi noti kandi hakaba hashushanyijeho inzu imbere yayo hakaba hateye indabo.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti z'amadolari y'ijana nyinshi zitereretse hejuru y'impapuro zakorerwagaho ijanisha ritandukanye ry'abaturage runaka cyangwa ibikorwa runaka.

Inoti z'amafaranga zigiye zitandukanye. Imwe muri izo noti yiganjemo ibara ry'ubururu yanditseho umubare ijana ikaba ishushanyijeho inzovu. Kuri iyo noti handitseho banki nkuru ya Kongo. Hakaba kandi ifite imibare iyiranga ariyo ma da, rimwe, gatatu, kabiri, gatandatu, zeru, kane, kabiri, sa.

Ibiro by'ivunjisha, hakaba harimo imashini y'ishoramari ariyo twita ayitiyemu (ATM). Amwe mu magambo yanditswe muri ibi biro, handitse ngo amasezerano meza y'ivunjisha hano. Ayo magambo akaba yandikishijwe inyuguti zisa umweru, akaba yanditswe ahantu hasa ubururu kandi inkuta zo muri ibi biro zimwe zisize amabara y'umweru ahandi umutuku ndetse n'andi atandukanye.

Ahantu bacuruza ibikoresho bikozwe mu mbaho. Aribyo intebe n'utubati. Muri ibyo bicuruzwa hakaba harimo intebe zikozwe mu mbaho gusa ndetse n'intebe z'imisego. Inkingi z'inkuta z'aho hantu zifite amabara asa ubururu bwerurutse.

Icyumba gikorerwamo ubucuruzi bw'ibikomoka ku mbaho. Hakaba harimo utubati ndetse n'ameza by'amoko atandukanye. Harimo intebe z'imisago ndetse n'izitari imisego. Amatara yo muri iki cyumba yaka ibara risa umweru. Muri iki cyumba kandi hakaba harimo n'imitako igiye itandukanye, na yo ikozwe mu mbaho.

Agakiriro gacururizwamo ibikoresho byo mu nzu ububati, ameza, intebe zo kwicarwamo, imodoka y'ubururu ifite igisenge cy'umutuku urukuta rw'inzu iririmo ibara ry'ubururu, umuhanda wamabuye, ipoto y'amashanyarazi abantu, umunara wa televiziyo, insinga z'amashanyarazi, umugabo ufite urupapuro rwwuumweru.

Intebe zifite ibara risa viringa, ameza asa umweru ariko akaba afitemo akabara gakeya kavanzemo ibara ry' umuringa, amadirishya afite inzugi ndetse n'ibirahuri, amaguru y'intebe akaba afite ibara risa umuringa.

Aho bacuruza ibikoresho bituruka ku mbaho, hakaba hari ameza y'ubwoko butandukanye, intebe z'ubwoko butandukanye ndetse n'utubati, ibyo byose kandi bikaba bifite ibara ry'umuringa.

Ndabona umusozi ku gasongero kawo ubwa kariho ishyamba ndabona munsi yishyamba watuwe ku buryo bucucitse ndabona igisa n'agakiriro kagurishirizwamo ibikoresho byo mu rugo ameza ,akabati, igitanda na matera ,ndabona inzu i icururizwamo ibirayi ,ndabona urujya n'uruza rw'abantu bari ku mapikipiki n'abagenda n'amaguru, ndabona kandi insinga zinyuzwa ku mapoto y'amashanyarazi.

Icuruzwa ry'intebe n'ameza byo bibajwe mu mbaho, intebe mu mubare ni zirindwi ndetse zikikije ameza yazo nayo yo mu bwoko bw'imbaho.

Aho bacururiza ibikoresho bikoze mu mbaho. Ibiri gucuruzwa ni intebe, ameza ndetse n'akabati. Ameza ari gucuruzwa akozwe mu buryo bw'ikiziga. Inyuma hari inzu ifite amadirishya amwe afunze andi afunguye.

Aho bacuruza ibicuruzwa bikomoka kumbaho, aribyo intebe ndetse n'ameza hirya hakaba hari intebe z'umukara ndetse n'ameza y'umukara, intebe zikaba zifite aho kwicarira asa umweru. Muri ikicyumba kikaba gisize ibara ry'umweru kandi intebe zindi zirimo zifite andi mabara atandukanye zikaba zifite n'imisego.

Hoteli igeretse. Ikaba ifite ikiyaga cyagenewe kogerwamo kizwi nka pisine. Imbere y'iyi hoteli kandi hakaba hateye ubusitani burimo indabo ndetse n'ibiti. Hafi y'icyo kiyaga hakaba hubatse utuzu twagenewe kuruhukirwamo iyo abari bari koga mu kiyaga barangije.

Hoteli igeretse ikaba yubakishije ibirahure byinshi ndetse inkuta zayo zayo zikaba zisize irange ry'umweru. Iyi hoteli ikaba yitwa mariyote, ikirangantego cyayo cyandikishijwe inyugi M nini ifite ibara ry'umutuku kubera iyi hoteli umuntu ari kuyirebera hasi urareba mubicu neza cyane rwose.

Icyumba cy'uburyamiro gifite amabara atandukanye, ariyo viringa ndetse n'umweru, kikaba kiriho igitanda, intebe, ndetse n'akarabo gateretse hejuru y'ameza. Hakaba kandi hari n'agatebo kagenewe gushyirwamo imyanda.

Igioni kigezweho kirimo ibikoresho bitandukanye nk'ibishyushya amazi ndetse n'ibishyushya ibiryo ndetse n'aho batekera harimo n'utubati babikamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gikoni.

Ihoteri, rigeretsweho. inshuro enye bifiteho amatara kuri buri gorofa, ndetse rifite amadirishya ashinzwe ibara ry'umuringa wijimye ndetse amadirishya yaryo arijimye.

Ubusitani bwo muri hoteli. Bukaba burimo ameza arengejweho igitambaro gisa umweru ndetse ayo meza akaba akikijwe n'intebe zikozwe mu rubaho. Kuri ayo meza hakaba hateretseho amasahani, amakanya ndetse n'ibyuma. Kuri ayo meza kandi hakaba hateretseho ibirahuri birimo umuvinyu ndetse n'ibindi bitandukanye byo kunywa. Ubwo busitani kandi bukaba buteyemo indabo nziza cyane z'ubwoko butandukanye.

Ubwogero bw’imyidagaduro rusange ndetse n'imyitozo ngororamubiri bukikijwe n'imitaka izinzwe aho abavuye koga bicara baruhuka.

Hoteri ifite pisine cyangwa se ikidendezi cyo kogeramo kinini cyane, hirya y'icyo kidendezi hari intebe z'ubwoko butandukanye zimwe zifite imitaka yo gutwikira abantu kugira ngo baticwa n'izuba, izindi ntago zifite imitaka, inyuma y'izo ntebe hateye ibiti byiza cyane.

Hoteri yubatse ahantu heza cyane, kimwe mu bice bya hoteri biri kugaragara ni hejuru y'igisenge . Hakaba hariyo intebe ndetse n'ameza y'ubwoko butandukanye. Hirya yabyo hakaba hateye ubusitani burimo indabyo ndetse n'ibiti. Bigaragara ko uwakwicara muri izi ntebe yaba arimo arareba mu gicu neza nk'ukegereye

Ubwogero rusange bw'imyidagaduro muri hoteri bukikijwe n'imitaka itatu, ibiri y'umukara ndetse n'umwe w'umutuku, munsi y' iyo mitaka nintebe ndetse zirambuye zo gufatiraho akayaga nyuma yo koga.

Ameza ateguweho ibyo kurya bitandukanye byiganjemo deseri irimo imbuto ndetse z'amabara atandukanye nk'umuhondo n'iroza hari n'amakeke.

Urutonde rw'ibyo kurya, buri kiribwa kikaba gifite amafaranga kigura muri hoteri. Urugero isosi ya kari, igituza k'inkoko, bigura ibihumbi umunani magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda ndetse inyama y'ingurube n'ubuki, isosi y'inyanya ndetse n'umuvinyo w'umweru bikaba bigura amafaranga ibihumbi icyenda na magana atanu by'amafaranga y'u Rwanda.

Hoteri igeretse ikaba ifite inkuta zisa umweru mo imbere harimo intebe z'imisego kandi hakaba hari n'utumeza dutoya tw'utuziga tw'umukara, muri izo ntebe hicayemo umugabo wambaye ikositimu, mo imbere muri hoteri hakaba harimo indabo ndetse no hanze hakaba harimo indabo z'amoko atandukanye, muri izo ntebe z'imisego hakaba harimo n'utundi dusego dutoya tw'amabara atandukanye.

Hoteli yubatse ahantu hitaruye, hakaba harimo haragaragaraho ameza, ndetse n'intebe bifite ibara ry'umukara. Hirya yabyo gato hakaba hari umutaka wabugenewe uzinze. Hirya ya Hoteli ni ikibaya, muri icyo kibaya hakaba harimo haragaragaramo amashyamba n'ibyatsi. Hirya yabyo gatoya hakaba hari amazu yitaruye.

Hoteli igeretse ikaba yitwa fo powentsi bayi sheratoni. Ikaba iherereye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, Imbere gato ahagana hirya y'iyo hoteli, hakaba hateye ibiti birebire. Kandi hakaba hari n'amadarapo y'ibihugu bigiye bitandukanye.

Hoteli ifite ikiyaga cyo kogeramo cyabugenewe kizwi nka pisine hafi yacyo hakaba hari akayira k'abanyamaguru hafi yako kayira hakaba hateye indabo z'ubwoko butandukanye, iyi hoteli irageretse kandi hejuru ku mategura yayo ikaba ifite yo umurinda nkuba.

Hoteli igeretse kabiri, ifite inzugi n'amadirishya birimo ibirahuri. Imbere yayo hari ubusitani burimo ibiti ndetse n'indabo. Muri ubwo busitani kandi harimo intebe zifite imitaka abantu bicaramo kugira ngo izuba ritaza kuza kubica.

Ibiro bya sosiyete ijyanye n'ubwishingizi. Bikaba birimo intebe n'ameza by'ubwoko butandukanye. Bimwe muri byo akaba ari intebe zifite ibara risa ubururu ndetse n'amaguru asa umukara, ameza yaho akaba asa umweru kandi bikaba bifite n'inkuta zisa umweru, amatara yaka umweru n'igisenge gisa umweru.

Ibiro bikorerwamo ibijyanye na sosiyeti y'ubwishingizi. Muri ibyo biro hakaba harimo intebe isa umukara y'imisego. Kandi hakaba harimo n'ameza, kuri ayo meza hakaba hateretsweho impapuro ndetse na mudasobwa. Ku nkuta z'ibyo biro hakaba hariyo icyapa cyamamaza. Ibyo biro kandi bikaba bifite inzugi z'umweru ndetse n'amadirishya y'umweru.

Abaturage bari guhabwa serivisi zijyanye n'ubwishingizi, abari kuzibaha bafite imbere yabo ameza atetsweho mudasobwa zitagendanwa, aho bari gushimo ibyo babwiwe n'abo bari kwakira.

Icyapa cyamamaza ubwishingizi bwa Radiant. Kuri iki cyapa hakaba hariho ikirangantego cya Radiant, aricyo ikiziga cy'umweru, mo imbere harimo ibara risa umweru ndetse n'ubururu. Muri icyo kiziga harimo ijambo Radiant ryandikishijwe ibara risa umweru. Hasi y'icyo kirangantego hakaba hari amagambo agira ati: Isezerano ni isezerano. Imbere y'icyo cyapa hakaba hari umuntu wambaye umwenda w'amaboko maremare ufite ibara ry'umukara kandi akaba yambaye n'impeta.

Sosiyete ijyanye n'ubwishingizi, hakaba hari icyumba kiganjemo ibara risa umutuku, iki cyumba kikaba gifite igisenge gisa umweru ndetse n'amatara yaka umweru, harimo intebe z'imisego zisa umukara, muri iki cyumba kandi hakaba hicayemo umukobwa, ku nkuta z'iki cyumba hariho amashusho agiye atandukanye, amwe ni ayamamaza, ndetse hakaba hariho n'ifoto ya perezida wa repubulika y' u Rwanda Paul Kagame, ndetse n'insakazamashusho isa umukara.

Urupapuro rwerekana uburyo wafungura konti yawe muri access banki utavuye aho uri hakaba hariho umukobwa ufite mudasobwa imbere ye urimo uraseka. Bimwe mubyanditse kur'ururupapuro rwererana hariho ibyiza bya access banki kandi hakaba hariho nimero za telefone wa basangaho ndetse n'imbuga nkoranyambaga wabandikiraho zigiye zitandukanye.

Igipapuro gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru mukeya. Muri uwo mweru hateretsemo agatenesi gafite ibara ry'icyatsi ndetse n'akeru gakeya. Amwe mu magambo yanditse kuri iki gipapuro handitseho ngo imihanda yose izaba itujyana kuri La Palisse Nyamata ku cyumweru. Hazaba habaye imikino ya finari ihuza amakipe ya tenisi.

Ndabona ibirango bya banki yubucuruzi y' agisesi ndabona umugore wicaye imbere hari mudasobwa ikaramu ndabona isaha kugikuta ndabona umugabo wicaye imbere yfite impapuro z'umweru, ndabona amategeko n'amabwiriza mbere yuko usinya amasezerano y'inguzanyo, ndabona ibisabwa kugirango ibyo umuntu akeneye ku kugiraga ahabwa inguzanyo harimo ibaruwa isaba inguzanyo n'ikarita y'rangamuntu, ndabona ibisabwa umuntu ugabwa adakorana na banki y'agisesi harimo nk'impapuro za banki z'amezi atandatu ndabon nimero yo guhamagara.

Icyapa kijyanye n'ibyo gushaka akazi. Umwanya ukeneweho abakozi akaba ari uw'impuguke mu gucunga ibyago by'ibidukikije n'imibereho myiza. Italiki ntarengwa akaba ari cumi n'enye, kamena, bibiri na makumyabiri na kane i saa kumi n'imwe z'umugoroba.

Ndabona abagore babiri bafite urupapuro rwanditseho ngo fungura bombi bafite imisatsi y'umukara barishimye bari guseka ndabona ibirango bya banki y'uburinganire ndabona amagambo agira ati shaka inguzanyo idafite ingwate yo kugura imigabane myinshi ku bucuruzi bwawe ndabona akabati ,ndabona ibara ry'umuhondo ndagura ikirango cya banki y'uburinganire .

Abagore cumi na barindwi(17) hakaba harimo abirabira ndetse n'umuzungu. Abenshi muribo bamanitse ikiganza cyabo kiburyo bamwe bafunze igipfunsi abandi ntago bagifunze, imbere yabo hakaba hari igikoresho gikozwe mucyuma cyagenewe kujyamo amata .Benshi murabo bagore bambaye imyenda idodeshejwe mugitenge kandi bakaba bafite umusatsi utari mwinshi ku mitwe yabo.

Urupapuro rwerekana inguzanyo ya banki, yitwa Ayi endemu banki. Hakaba hariho imbonerahamwe yerekana ibyo ugomba kuzuza nk'izina rya banki, ishami ryayo na nimero za konti yawe. Igihe konti yawe ifunguriwe ndetse n'ibindi. Hasi gatoya y'iyo mbonerahamwe hari andi mabwiriza n'inyungu uzajya ubona kandi ibyo byose bikaba biri ku rupapuro rusa umweru.

Icyapa cyamamaza ibijyanye n'inguzanyo. Amwe mu magambo yanditse muri iki cyapa aragira ati:" Inyungu ya cumi na rimwe ku ijana niba umushahara wawe wa buri kwezi ari miriyoni imwe n'ibihumbi magana abiri, cyangwa se munsi yayo." Kuri icyo cyapa kandi hakaba hariho umugabo uzamuye amaboko ye yombi yafunze ibipfunsi, yambaye ishati y'amaboko magufiya y'ubururu usa n'uwishimye cyane rwose.

Icyapa cyamamaza ibijyanye n'inguzanyo ya banki y'abaturage y'Urwanda BPR. amwe mu magambo yanditse kuri iki cyapa aragira ati “gera ku ntego. ufite intego yo gukora ubukwe? fungura konti yo kwizigama ya BPR goru, wihesha inyungu umunani ku ijana ku mwaka. kuri iki cyapa kandi hakaba hariho umusore ndetse n'inkumi, bakaba bambaye imyenda y'ubukwe.

Igipapuro cyerekana ibyerekeye inguzanyo. Kikaba cyanditseho ngo dushyire imbere iterambere rya buri mugore. Kikaba kiriho abagore babiri. Umwe yifashe asobekeranye amaboko undi yashyize akaboko mu mayunguyungu.

Igipapuro gifite ibara ry'ubururu cyerekana inguzanyo na Aye endemu banki. Kikaba kiriho uburyo ushobora kubona inguzanyo ya miliyoni mirongo itanu mu gihe cy'iminsi mikuru. Iki cyapa kandi kikaba cyerekana ko iyo miliyoni mirongo itanu uzaba nta ngwate utanze.

Isoko ricuza ibicuruzwa bitandukanye aribyo amavuta, ibikapu byo mu mugongo, imyenda ndetse n'ibindi. Muri iryo duka hakaba harimo umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'umugabo wambaye ishati itukura hakaba kandi hari n'umugore uri kugenda yambaye ikanzu isa icyatsi.

Isoko ricururizwamo imboga zitandukanye harimo karoti, ibitunguru by'umutuku n'iby'umuhondo, amashaza, dodo ndetse n'intoryi.

Isoko ricuruza imbuto z'ubwoko butandukanye, harimo imineke, avoka ndetse n'ibindi, abadamu barimo barazicuruza bakenyeye ibitenge kandi bateze ibitambaro mu mutwe, imbere yabo hari umubyeyi na we ukenyeye igitenge, uteze n'igitambaro, akaba afite imbago mu kuboko kwe kw'ibumoso, yitwaje agafuka aje guhahiramo.

Abagabo babiri n'umugore umwe mu isoko rwagati ry'imbuto, ibitunguru by'umutuku, bitunguru by'umweru, imiteja ikibasi cy'icyatsi, intoryi, inyanya, pavuro z'icyatsi, karoti, tungurusumu, amashu, imyenda ku nkuta, indobo, umufuka, amabati, amabati y'mweru atanga urumuri umugabo w'igikara w'imibiri yombi, umugore w'inzobe w'imibiri yombi n'umusore wambaye umupira w'ubururu.

Abagore bakenyeye ibitenge bakaba biteze udutambaro ku mitwe yabo ,aho bicaye umwe muribo afite igitebo gisa umweru kirimo ibicuruzwa. Ku kuboko kwe kw'ibumoso ku kiganza cy'ibumoso hakaba hariyo urutoki rwambaye impeta y'isezerano . Inyuma yabo bagore hakaba hari ikindi gitebo giteretse hasi gusa umweru, muricyo gitebo hakaba harimo agafuka gafunze.

Isoko risakaye, muri iryosoko hakaba harimo ibiribwa bigiye bitandukanye ndetse n'ababicuruza, bimwe muri ibyo biribwa hakaba harimo ibitunguru by'umutuku ndetse n'umweru, inyanya, pavuro, intoryi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, umwe mu bacuruzi bicaye muri iryo soko harimo umugore wicaye uteruye umwana.

Umuhanda urimo urujya n'uruza rw'bantu benshi cyane, hakaba harimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye aribyo amapikipiki ndetse n'imodoka z'umuntu ku giti cye, hafi y'umuhanda hakaba hari icyapa cya parikingi cyerekana ko ibinyabiziga byemewe kuhaparika akaba ariho haparitse aba motari benshi cyane, hafi y'umuhanda hakba hari inzu igeretse nini cyane y'isoko.

isoko ricuruza ibicuruzwa bitandukanye nubwo rwose ibyo bicuruzwa bitagaragara ariko hari ubwitabire bw'abntu benshi cyane hari amapikipiki ndetse n'abayatwara biparitse ku mpande kandi hakaba hari n'amazu agenda akorerwa mo ibyo bikorwa birimo ibyo bagurisha ayo mazu akaba ari ku mpande.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye, nk'inyanya, karoti, intoryi, ibibiringanya ndetse n'ibindi bitandukanye. Hakaba hari umugore wambaye ibitenge urimo uracuruza ndetse afite n'umutaka. Imbere hakaba hari abandi barimo baragura. Umwe muri abo bari kugura harimo umugore wambaye ikanzu ifite ibara ry'iviringa ndetse akaba aniteze n'igitambaro na cyo gifite ibara ry'iviringa.

Kuri iyi shusho ya gatatu ndabona ibinyabiziga by'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda, ikinyabiziga kimwe gifite ikarita y'ikirango k'ibinyabiziga, gifite inyuguti ra na pa nomero magana abiri na makumyabiri na kane na.

Utuzu dukoreramo abantu bashinzwe gutanga serivisi za emutiyeni mobayiro mani na eyateri mani. Akazu gakoreramo ushinzwe serivisi za eyateri mani gasizwe ibara ry'umutuku niryo ryiganjemo n'aho aka emutiyeni mobayiro mani higanjemo ibara risa umuhondo. Imbere y'utwo tuzu hahagaze abakobwa babiri kandi mo imbere hakaba hicayemo undi mukobwa umwe.

Umugabo wicaye ku igare yambaye ipantaro y'ubururu umupira w'umukara w'amaboko maremare inyuma yarengejeho umupira w'amaboko magufiya usa umuhondo. Inyuma ye hari umutaka wa MTN hakaba hicayemo umukozi utanga serivisi za MTN n'abandi bamucyicyije, uyu mugabo wicaye kwigare yaritsindiye kuko urebye umupira yambaye hagaragazako utsindira ibihbo bitandukanye iyo ugize pake na bando.

Icyapa cyerekana serevise za Mobile Money, kikaba gifite ibara ry'umuhondo , ikicyapa kerekana uburyo ushobora gukanda akanyenyeri ijana mirogwinani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri zeru, kane, gatatu, gatandatu, gatandatu, ikenda urwego ukaba wakwishyura ibinti bigiye bitandukanye kandi ntihangire andi mafaranga wishyura.

Hacyatangirwa serivisi z'umurongo w'itumanaho wa airtel ahakirirwa abaje kwaka serivisi, akabati kariho ibirango byo kwamamaza by'umurongo w'itumanaho airtel karimo ibara ry'umutuku, ibirahuri ,telefone, icyapa cyo kwamamaza, ahabikwa igikoresho cyabugenewe mu kurwanya inkongi ,amakaro urukuta rw'umutuku n'umweru.

Ndabona urubuga rwo guhahiraho hakoreshejwe ikoranabuhanga, rukaba rucuruza ibikoresho by'isuku abakobwa bakoresha bagiye mu kwezi kwabo, hakaba hariho ibiganza bibiri, kimwe kirahereza ikindi.

Urubuga rwo guhahiraho hakoresheje ikorana buhagnga rukaba rwitwa Murukali market smart, kuri uru rubuga bakaba hashushanyijeho isahani irimo ibiryo. Amwe mu magambo yanditse kuri uru urubuga aragira ati ibikoresho byiza bifite ireme.

Umuntu wicaye ku ipikipiki yambaye umupira usa umuhondo arimo arareba uburyo ki wahaha ukoresheje ikoranabuhanga, akaba ari kubirebera akoresheje terefoni.

Idukuka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kuri uru rubuga turabonaho ibikoresho bitandukanye, kandi buri kimwe hariho amafaranga kigura ndetse n'umubare w'abamaze kukigura. Urugero nk'iyi sakoshi, igura amafaranga magana atandatu mirongo itanu n'abiri y'amabyarwanda, ikaba imaze kugurishwa ku bantu barenga magana atanu. Uru rubuga rwitwa Ali Egisipurese.

Urubuga rwo guhahiraho ukoresheje ikoranabuhanga rwitwa twiga, amwe mumagambo yanditse kuri urwo rubuga aragita ati " tekereza kuzigamba amafaranga y'urugendo'', munsi yaho kandi hakaba handitse amagambo agira ati ''bibineka ubuntu bukeya, bigezwa k'umuryango wawe'', hakaba hariho nimero za terefone wabasangaho arizo; zeru karindwi kane rimwe umunani umunani umunani kane gatandatu gatandatu.

Urubuga rwo guhahiraho hakoreshejwe ikoranabuhanga, bisa nk'aho uwarukoresheje arimo arakira agapfunyika karimo ibyo yahashye, uri kubimuhereza yambaye umwenda ufite ibara ry'icyatsi kijime, hakaba hari ipikipiki akoresha arimo arazana ibyo baguze, kandi kuri iyo pikipiki hakaba hariho umubare umuranga ari wo wa, cumi na gatandatu.

Ibikarito bine byikorewe n'ibinyabiziga byo mu bwoko bwa moto, ibi bikarito birimo ibiryo abantu batumijeho, bigiye kubagezwaho hakoreshejwe uburyo bw'imigendere, ibi binyabiziga biyobowe n'abayobozi babyo.

Ndabona urubuga rwo guhahiraho ibiribwa hakoreshejwe ikoranabuhanga. Hakaba hariho umubyeyi n'umwana. Bisa nkaho uwo mubyeyi arimo arerekera umwana ibintu bigiye bitandukanye biteretse ku meza ari imbere yabo. Inyuma hakaba hari urukuta rwererana.

Urubuga bahahiraho bakoresheje ikoranabuhanga, rukaba rucuruza imyenda yaba iy'abantu bakuru ndetse n'iy'abana, inkweto, ingofero, imideri ijyanye n'iby'imisatsi, amavuta ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye hakoreshejwe ikoranabuhanga iryo duka rikaba ryitwa Migoro shopu, bimwe mu byo ricuruza harimo imbuto z'ubwoko butandukanye, imodoka, ibiribwa bitekeye mu mafuru, udutsima ndetse n'ibiribwa bitekeye mu masafuriya, iryo duka kandi ibyo waguze ribikugezaho aho waba uri hose ku buntu.

Icyumba cy'ubwiherero bwa kizungu n'ubukarabiro, akabati, urugi rw'umweru, urukuta rw'umweru, idirishya rifite inkingi z'ibyuma, amakaro y'umweru, urukuta rw'imbaho.

Inzu ifite inkingi zisa umweru, hasi haba hubakishije amategura asa umweru hakaba hari namavaze kandi arimo indabo. Iyi nzu ifite imbuga yisanzuye, iparitsemo imodoka y'umuntu kugiti cye kandi ikapa ifite n'igipangu. Iherereye mu murenge wa kanombe, umugi wa kigali. Ikaba icuruzwa miriyoni mirongo icyenda n'eshanu y'amafaranga y'urwanda.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kacyiru hakaba hagaragazwe igikoni kigezweho. Hagiye harimo ibikoresho bitandukanye, harimo utubati ndetse n'icyuma cyabugenewe gifura. Iyi nzu ikaba ikodeshwa amadolari igihumbi na magana atanu.

Inzu igeretse kabiri, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali umurenge wa Kacyiru, iyi nzu ifite ubusitani imbere yayo bunini, buteyemo ibiti ndetse n'indabo ikaba ikodeshwa amadorari igihumbi na magana atanu ku kwezi.

Inzu ifite inkuta zisize ibara risa umweru, ikaba irimo imyenda miremire ikingirije amadirishya, muri iyo nzu kandi hakaba harimo ibitanda bishashe neza biriho n'imisego, iyo nzu ikaba ifite ibyumba bine, iherereye mu murenge wa Gisozi mu mugi wa Kigali.

Mo hagati mu nzu mu imbere iri gukodeshwa amafaranga y'amadorari ibihumbi bibiri ku kwezi, iherereye mu mujyi wa Kigali igihugu cy'u Rwanda ifite imiryango yi'mbaho n'ibyo hasi by'imbaho.

Igikoni kigezweho, kiri mu nzu iherereye mu murenge wa Kabeza, mu mujyi wa Kigali, mu gihugu cy'u Rwanda, ikodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu ku kwezi, ifite n'urumesero, ndetse hanze ku muryango, turabona umuryango w'imbaho, uhagazemo umugabo.

Ikibanza giherereye mu mujyi wa kigali umurenge wa bumbogo I Musave kikaba kigurishwa miliyoni cumi n'eshanu z'amafaranga yu Rwanda, iki kibanza ntago gisijije kuko ahantu hose ntago hariganiye haracyarimo ibyatsi kandi hirya gato hakaba hari andi mazu yubatse.

Ndabona ifoto, ndabona yanditseho amagambo mu ibara ry'umukara avuga ati "Dore icyo miliyoni mirongo irindwi n'eshanu zakugurira muri Kigali mu Rwanda". Ndabona ibendera rya Repubulika y'u Rwanda. Ndabona icyumba cyo kubamo, ndabona amatara, ndabona inzugi, ndabona amadirishya, ndabona amakaro, ndabona kandi inkuta z'ibara ry'umweru.

Uruganiriro rurimo intebe z'imisego y'icyatsi gifite imbere yazo ameza akozwe muri ribuyu asa umweru irakodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu ku kwezi kuyibamo mu mujyi wa Kigali biherereye mu murenge wa Kabeza mu mujyi wa Kigali.

Inzu ifite inkuta zisize ibara ry'umweru kandi ikaba ifite n'amatara yaka umweru. Hasi ikaba yubakishije amategura asa umweru kandi ikaba ifite amadirishya arimo ibirahure. Iyi nzu ikaba igura miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali.

Igitanda kigezweho gishasheho uburiri ndetse n'umusego. Hirya yacyo hari akabati k'umukara, ndetse n'inkuta z'umweru. Iki cyumba kiba gikodeshwa amadorari magana tanu na mirongo itanu mu mujyi wa Kigali i Kabeza.

Icyumba cy'uruganiriro gifite inkuta z'umweru, hakaba kandi harimo n'imitako itandukanye, n'insakazamashusho z'umukara, harimo intebe zo kwicaraho, ndetse n'ameza akozwe mu birahure iyi nzu ikaba ikodeshwa namafaranga y'amadorari igihumbi na magana atanu ku kwezi iherereye mu mujyi wa Kigali.

Inzu ifite inkuta z'umweru kandi ikaba ifite n'itara ryaka umweru. Hakaba harimo intebe zo kwicaraho zifite ibara risa icyatsi kijimye. Harimo ameza asa umweru ndetse n'andi afite hejuru hasa umukara, Iyi nzu kandi ikaba ifite isakazamashusho isa umukara ndetse n'icyuma gitanga umuyaga gisa umukara. Ikaba ikodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu mu mujyi wa Kigali.

Ndabona ikirere kirimo ibicu by'umweru byiganje ndabona ibara ry'ubururu bw'ikirere ndabona inyuguti zandikishijwe amagambo y'umukara aha dore icyo miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda zakugurira i Kigali mu Rwanda ndabona ibendera rya repubulika y'u Rwanda ndabona inzu ifite ingazi n'ibyuma bikikije ingazi mu ibara ry'umweru ndabona amakaro, inkingi umuriro w'amashanyarazi n'amatara yo hanze .

Inzu ikodeshwa. Ikaba iherereye mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali. Ikaba igizwe n'ibyumba bine by'uburyamiro ndetse n'ibyumba bitatu by'ubwogero. Iyi nzu ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi. Imbere y'iyo nzu hakaba hari imbuga ndetse n'ibiti biteye.

Inzu igeretse iherereye mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Kibagabaga. Ikaba ifite ibyumba bitanu by'uburyamiro ndetse n'ibyumba bitanu by'ubwogero. Izajya ikodeshwa amafaranga y'amadorari igihumbi na magana arindwi ku kwezi. Ifite imbuga nini cyane yisanzuye ndetse n'ubusitani bwiza.

Inzu igeretse ifite amatara yaka umweru n'inkuta zisa umweru, ibirahuri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ku ibaraza ry'iyo nzu hakaba hari ameza ndetse n'intebe. Mu mbuga yayo hakaba hateye indabo. Iyi nzu wayisanga mu mujyi wa Kigali, mu murenge wa Rebero, ikaba igizwe n'ibyumba bitatu by'uburyamiro. Ikaba ikodeshwa amadorari ijana ku munsi.

Inzu ihererreye mu mugi wa Kigali mu murenge wa Kacyiru, ikaba ifite ivyunba kimwe cy'uburyamo ndetse n'ictyumba cyimwe ct'ubwogero. Iyi nzu ikaba ikodeshwa ibihumbi magana abir by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, imwe mubiize iyi nzu hakaba harimo igioni cyigezweho kirimo ibyokogereza amasahani ndetse hakaba hari n'akabati kagezweho.

Inzu yo gukodeshwa iri mu murenge wa Kimironko. Ikaba ifite ibyumba bitatu byo kuraramo. Ikodeshwa ibihumbi magana ane ku kwezi. Ikaba ifite amakaro afite ibara ryererana, kandi ikaba ifite inzu n'amadirishya byose bifite ibirahuri.

Inzu z'ubwoko butandukanye; zimwe muri zo zisa nk'izarangije kubakwa, hakaba harimo indi imwe itararangira kubakwa mu ruhande rw'iburyo. Imbere y'ayo mazu hakaba hari umuhanda w'igitaka kandi hakaba hari n'umucanga bakoresha kubaka.

Inzu iri gukodeshwa iherereye mu mujyi wa kigali, mu Murenge wa Kabeza, ifite ubwogero butatu n'ibyumba bitatu byo kuraramo, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu mu manyarwanda ku kwezi.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kimirongo. Ikaba ifite uburyamiro butatu ndetse n'ubwogero bubiri. Iyi nzu ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu by'amafuranga y'u Rwanda ku kwezi. Imbere ho muri iyi nzu hakaba hari igisenge cyubakishije imbaho, itara risa umweru ndetse n'inkuta zisa umweru. Hanze y'iyo nzu hakaba hafite inkuta ziteye ibara ry'ubururu bwerurutse.

Inzu ikirimo irubakwa. Ikaba ifite ingengo y'imari ingana n'ibihumbi magana inani by'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nzu ikaba ifite igishushanyo mbonera cy'igisenge gifashe nk'ikibambasi. Bamwe mu bari kubaka iyi nzu, hakaba harimo umusore wambaye ipantaro isa ubururu y'ikoboyi ndetse n'umupira usa umutuku w'amaboko maremare.

Aparitoma itarimo ibikoresho igizwe n'ibyumba bibiri by'uburyamiro ndetse n'ibyumba bibiri by'ubwogero, ikaba ikodeshwa ibihumbi maganatandatu by'amafaranga y'U Rwanda ku kwezi imbere y'imanuke ziyo nzu hakaba hiri umuntu uri kuri telefoni.

Inzu ihererye m'umujyi wa Kigali mu akarere ka kicukiro ikaba ifite ibyumba bibiri ndetse n'ubwogero bumwe, ikodeshwa amafaranga ibihumbi maganabiri na mirongo itanu by'U Rwanda, kubundi busobanuro wahamagara nimero zeru karindwi mirongwinani na kabiri mirongwirindwi na kane mirongo ine na karindwi mirongo inani n'icyenda.

Icyumba bahahiramo. Kukaba kirimo ubicuruzwa bigiye bitandukanye, bimwe muri byo bibitse mu tubati, ibindi biramanitse. Kimwe mu bicuruzwa bimanitse, hakaba harimo inzitiramibu. Muri iki cyumba bahahiramo, harimo umuntu wambaye ikabutura y'ibara ryijimye ndetse n'umupira w'ubururu.

Inzu bacururizamo ibintu by'ubwoko butandukanye, hakaba hari abacuruzi ndetse nabaje kugura. Harimo abantu b'ingeri zose; abagabo, abagore, abana kandi hakaba harimo amatara y'amashanyarazi, ndetse iyo nzu ikaba isizwe irange ryerurutse.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye muri byo hakaba harimo imineke, amacunga, amavoka, ibihaza, ibibiringanya ndetse n'ibindi byinshi, muri iryo soko hakaba harimo abagiye babicuruza.

Isoko rinini. Hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye bibitswe mu tubati. Bimwe muri ibyo bicuruzwa harimo imiti y'ibirahure y'ubwoko butandukanye; ndetse hakabamo n'amasabune y'amazi. Iri duka rikaba rifite amatara yaka umweru.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye bya gakondo ari byo inkweto zifunguye ndetse n'imyenda y'amakanzu, muri iryo duka harimo abagabo babiri umwe muri abo ngabo yambaye ipantaro y'umukara umupira w'umukara ndetse n'umweru akaba yambaye n'ingofero.

Ikarita ya mitiweli. Ku ruhande rw'ibumoso hashushanyijeho abantu batatu ndetse n'umutaka. Ku ruhande rw'iburyo hakaba hariho ikirangantego cy'ikigo gishinzwe ubuzima cyitwa Ara Esi Esi Bi (RSSB), Hasi yaho hakaba handitseho ikarita y'umunyamuryango y'ubwisungane mu kwivuza.

Abategarugori bafite abana ndetse bafashe mu biganza byabo bibiri, uburyo bw'ubwishingizi bivurizaho, ariyo makarita y'umuhondo, y'ifashishwa azwi ku izina rya mituweri de santi.

Ikigo cy'ubwubatsi n'ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa mu Rwanda, KTN Rwanda lmtd, gisa n'icyahaye inzu abaturage. Hari icyapa cyanditseho amagambo, bamwe mu bafite icyapa hariho padiri umwe, kandi ku cyapa hakaba handitse Paruwase Gaturika Rusasa, hasi gatoya hakaba handitseho mituelle de sante bibiri na makumyabiri na kane, bibiri na makumyabiri na gatanu.

Ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda gishinzwe gutanga serivise z'ubwishingizi zirimo ubuzima, imyanya y'akazi ndetse n'izigihe kirekire, hakaba hari abantu baje gusaba serivise, abagenewe kuzitanga bambaye imipira isa ubururu.

Ihema risa umweru, rikaba ririho ikirango k'ikigo cy'ubwiteganize mu Rwanda. Inkuta zifashe iryo hema, akaba ari icyuma gisa umukara. Hakaba harimo umugabo ndetse n'umugore bicare muri iryo hema. Bambaye impuzankano hejuru isa umweru iriho ikirango cy'ubwiteganyirize mu Rwanda. Intebe bicayeho zisa umukara ndetse hakaba hari n'indi isa ubururu. Ati:...

Abagore bane n'umugabo umwe bicaye ku ntebe y'urubaho umugore wa gatanu yicaye ku ntebe ye wenyine, amatafari ahiye ku gikuta hariho agasanduku k'ibitekerezo gafunze n'ingufuri, kumutsa ikawa, kwanika ikawa, guhunika ikawa, gutonora ikawa byanditswe mu ibara ry'ubururu ku rukuta rw'amatafari ahiye mu ibara ry'ubururu, abadamu bose bafite umusatsi w'umwimerere n'umugabo yambaye ishati y'umutuku.

Iyamamaza ryo kwizigama rijyanye n'ejo heza. Hakaba hariho umugore urimo uraseka, yambaye igitenge kandi akaba yiteze igitambaro mu mutwe, akaba yambaye n'amaherena ku matwi ye. Bimwe mu byanditse kuri iki gipapuro handitse ngo: <<Nzigamira kubw'ejo hazaza hanjye n'ejo heza.>> wowe se?

Abantu bicaye ku ntebe hakaba harimo ingeri zose haribo umugabo, abagore ndetse n'abana inyuma yabo hakaba hari inkuta ryubakishije amatafari ahiye rwometseho ibyapa bimenyesha, bafite impapuro zo kwa muganga bategereje kwinjira.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ya mituweli isa umweru ndetse iriho kashe igaragaza yuko yemerewe kuba yayivurizaho yatanzwe n'ikigo cy'ubwiteganyirize mu kwivuza cyo mu rwanda.

Ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi, hari umuntu ufite ikarita isa umuhondo mu ntoki amwe mu magambo yanditse kuri iyi karita arangira ati ''Repubilika yu Rwanda Minisiteri y'ubuzima umujyi wa kigali akarere ka kicukiro''.

Kwamamaza ubwizigame bw'ejo heza, hakaba hari abantu bamwe impuzangano isa umweru ndetse n'ingofero zisa umweru, kandi hari imbaga nyamwinshi irimo irabwirwa ubw'ibyo byo kwizigama, bimwe mubyapa handitsweho ati: ''nzigamira ku bw'ejo hazaza hanjye n'ejo heza. Wowe se ?'' Kandi hakaba hariho nimero n'urubuga wabasangiraho n'urubuga wabandikiraho.

Umukobwa uhagaze mu iduka ricuruza ikawa, yambaye imyenda y'umukara, afite umusatsi mwinshi ku mutwe we utendera inyuma y'urutugu; hirya hakaba hari umusore urimo ukora ikawa.

Iduka rinini cyangwa se isoko rigezweho ricuruza ubwoko butandukanye bw'ibisuguti. Muri iryo duka hakaba harimo umuntu wambaye ipantaro yererutse ndetse n'umupira usa umukara kandi akaba yambaye na kambambiri zisa umutuku.

Isoko rinini ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Bimwe muri byo harimo amafu y'igikoma ndetse n'amakaroni. Umwe mu baje guhaha ni umugabo ufite akagare kabugenewe ugenda ushyiramo ibyo umaze guhaha. Inyuma ye hari umugabo wambaye umupira n'ingofero bisa umuhondo hivanzemo icyatsi kijimye ufite indangururamajwi. Inyuma ye kandi hakaba ikirugu gikoreshwa mu minsi mikuru ya Noheli.

Icyumba cy'ubucuruzi kirimo ibicuruzwa bitandukanye, ibikarito, imitobe y'imyembe, ibisuguti, imigati, amakayi, amakaro, igisenge kiriho amatara ari kwaka.

Utubati turimo ibyo kunywa biri gucuruzwa, ari byo imitobe, ndetse n'ibindi biri mu mashashi biribwa, ku ruhande hari igikonjesha, ndetse mu muryango w'iri soko hari umugabo uri gukurura ikiringiti kiri mu ishashi yacyo.